Abajyanama b'ubuhinzi bazwi ku izina ry'abagoronome bari gukora ubushakashatsi bashaka uko babona imiti ndetse n'ibindi bibazo biri mu buhinzi babishakira ibisubizo, aha bibanze ku ntoki.

Abagabo bahagaze ku nkombe y'ikiyaga bafite indobani aho biteguye kuroba bafatanije n'umwe uri mu mazi, barayashyira mu mazi hanyuma amafi yirundemo namara kwirundamo bahite baterura indobani hamwe n'aya mafi bayimurire imusozi.

Abasoromyi b'icyayi basoroma icyayi bashyira mu dutebo twabo bishimye. Icyayi n'igihingwa ngengabukungu basoroma bakajya gutunganya mu ruganda, hanyuma bagahita bacyohereza mu mahanga kugira ngo kizane amafaranga y'abanyamahanga mu gihugu n'abaturage babone akazi.

Pipinyeri ubuhumbikiro bw'imbuto ndetse n'ibiti: by'ibyayi, imigereveriya, inturusi ndetse n'ibindi babanza guhumbika, mbere y'uko batera kugira ngo abantu babibone ku bwinshi kandi vuba mu gihe gito cyane.

Gahunda nziza ya Leta y'u Rwanda yo gufasha abaturage b'amikoro make kwivana mu bukene, bagenda babaha amatungo magufi y'ihene, amatungo yororoka vuba kandi cyane akagira n'amafaranga menshi cyane, umuturage akabasha kwivana mu bukene byihuse.

Igice cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda kigaragaza inzuri aho amatungo bayaragira kikagaragaza ibigori bihinze mu murima, amazu ndetse n'imirambi myiza yo mu burasirazuba bw'u Rwanda.

Ubuhinzi bw'imyumbati, izwi ku izina rya kirya umukwe isasiriye neza; imyumbati ijya gusa umweru ikaba iryoha cyane iyo yitaweho, ikanashobora gutanga amafaranga menshi cyane mu gihe yitaweho ikajyanwa ku isoko.

Insina iriho igitoki kivamo inzoga hamwe n'ibyana byayo bibiri biteye inyuma y'inzu, ahantu mu mujyi hameze neza hari isuku nyinshi cyane.

Inzego z'umutekano harimo DASSO, mu ishyamba ahantu hari ibiti byinshi bibasha kohereza umwuka mwiza mu baturage ndetse bigakurubura n'imvura, zikaba zifashishwa mu gucana.

Ibihu byinshi by'ibitundwe cyangwa se byo mu mvura y'umuhindo bikaba biri mu ishyamba kimeza nka nyungwe. Bikaba rero bigaragaza igihe cy'itumba cyo mu kwa kane.

Inanasi, ubwoko bw'imboga nziza ziribwa zikagira umutobe mwiza uryoshye, umubyeyi rero arishimira ko yejeje neza akaba yabashije kujyana ku isoko kugira ngo abone amafaranga avuye mu musaruro w'imyaka ye.

Umuhinzi wabigize umwuga aravomerera imyaka ye akoresheje umupira, iyi myaka rero ikaba ari inyanya, imboga zikunzwe cyane ziba zimeze nk'ibirungo bashyira mu biryo bigatukura kandi bikanaryoha.

Ubuvomerez,i ni igikorwa cyo gufata amazi ukayatwara mu kintu nk'injekani cyangwa se rozwari cyangwa se ukayayobora mu murima, ibihingwa bikazajya bibasha kuyabona mu gihe cy'izuba, kugira ngo byekuma

Umubyeyi w'umugore akoresheje indobo aravomerera amashu ye mu kabande kugira ngo abashe gukura neza kandi azabone umusaruro mwiza nyine kubera ko yavomereye.

Mu misozi miremire ahantu mu ishyamba, hadatuwe hagaragaramo amoko atandukanye y'ibiti, nk'inurusi, pinusi, hari kuva izuba, ahandi ntago ririmo rihava, urabona yuko ikirere gikeye kimeze neza cyane.

Imisozi myiza y'imirambi igaragaza inzuri nziza cyane ndetse amashyamba meza bibereye ijisho, ahantu heza hakorerwa ubukerarugendo.

Ubuhinzi bw'ibigori n'ibibyimbo, ni bumwe mu buhinzi bugezweho mu Rwanda kubera yuko ababuhinze babasha kubona ibyokurya bihagije ndetse bagasagurira n'amasoko ubuzima bukagenda neza.

Ingurube imwe mu nyamaswa cyangwa se itungo ryo mu rugo ryororoka vuba kandi rigatanga n'amafaranga. iryamye hasi iratuje, irimo ironsa ibyana byayo neza, kugira bizakure.

Inka kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze zitange umusaruro ni ngombwa kugira ngo zitabweho, zikingirwe, zubahagirwe, bikorewe mu rupangu kugira ngo zibe ziri hamwe kandi zituje bigakorwa n'abaveteneri babyigiye, ni bimwe mu bituma inka zibasha kugira kubaho neza no kugira ubuzima bwiza.

Amagi ni bimwe mu bikomoka ku nkoko bifite uruhare mu buzima bwiza bwa muntu kuko umuntu wayariye agira ubuzima bwiza. Hari kandi n'abari kuyakusanya ndetse n'inkoko zateye.

Ubworozi bw'inkwavu za kijyambere, ni ubworozi bwaje busimbura bwari busanzwe bwa gakondo, aho ubungubu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gitoya.

Gutoranya imbuto mbere yo guhingwa, ni bimwe mu bintu byitabwaho kugira ngo abahinzi babashe guhinga imbuto biyiziye neza y'uko idafite ikibazo n'iki na kimwe, iyo ugiye guhinga imbuto nyinshi ni byiza ko wifashisha abantu benshi nk'abagore kugira ngo babashe kugufasha gutora neza izo mbuto.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere ni bumwe mu bworozi bugezweho muri iki gihe kuko butanga amafaranga, aho umushoramari ahuriza inkoko nyinshi ahantu hamwe mu nzu imwe, akazigabuririramo zikabasha gutanga umusaruro zitera amagi menshi cyane kuko ziba zitaweho neza.

Gutera urukingo amatungo, ni igikorwa gikorwa n'abaveteneri kigamije gukingira amatungo indwara runaka. hakingirwa ingurube, inka, ihene, ndetse n'andi matungo yororwa.

Inyamaswa z'imparage eshatu zishotse ziri kunywa amazi. Ni nziza cyane kuko zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Zikaba ziganje cyane cyane muri Parike nkuru y'Igihugu iherereye mu ntara y'Iburasirazuba.